Abantu icyenda bicaye mu ntebe nziza zo mu biro ndetse bicaye ku meza amwe y'ibiganiro, imbere yaho hari ameza ariho indangururamajwi ndetse n'ibinyobwa bitandukanye by'umutobe cyangwa amazi ndetse barandika mu bitabo.

Abantu bane bicaye mu ntebe z'umweru bambaye imipira iriho ibirangantego by'ikigo gishinzwe siporo mu Rwanda, ndetse harimo n'uwambaye ikositimu y'umukara inyuma hari icyapa kiriho idarapo ry'u Rwanda ndetse n'ishyirahamwe rishinzwe imikino ku isi.

Abantu bicaye mu buryo bw'amatsinda bari mu cyumba gisa nk'aho ari icyumba cy'inama bakaba bagiye basangiye ameza amwe amwe ndetse bicaye ku ntebe zitandukanye, hakaba harimo abagabo, abagore, inkumi ndetse n'abasore, ayo meza kandi bagiye basangiye hagiye hateretseho ibintu bigiye bitandukanye harimo; amazi, za mudasobwa telefone ndetse n'ibindi hakurya kandi imbere yabo aho twakwita ku ruganiriro cyangwa se ku rubyiniro hakaba hari izindi ntebe zihateye zicayeho abandi bantu.

Abaturage cyangwa se abantu bicaye mu ihema higanjemo igitsina gore bicaye barangamiye umuntu uri imbere yabo w'umugabo, usa nk'uriho aratanga ikiganiro cyangwa se aganira nabo, hakurya yabo kandi hari indi nzu yubakishijwe amatafari ahiye ndetse imbere y'iyo nzu hakaba hari ikigega cy'amazi.

Umugabo wambaye ishati y'amaboko maremare, ufite indangururamajwi mu ntoki ze, asa nkaho arimo atanga ikiganiro. Ahagaze imbere y'abaturage bicaye mu ntebe, ndetse inyuma ye hari abandi bantu bicaye harimo abasirikare, abashinzwe umutekano, ndetse n'abantu basanzwe basa nk'abayobozi.

Abantu bicaye mu ntebe zitandukanye nziza cyane zikunze gukoreshwa mu biro cyangwa se mu manama izo ntebe ziba zifite ibara ry'umukara abo bantu kandi bakaba bahujwe n'ameza amwe, hakaba harimo abagabo ndetse n'abagore abagabo bamwe bambaye imyambaro myiza y'amakositimu, ayo meza kandi bahuriyeho bose ajyiye ariho ibintu bitandukanye za mudasobwa, ibikapu, amatelefoni, impapuro ndetse n'amazi mu gacupa.

Umugore uhagaze wambaye ishati ifite ibara ry'umuhondo afite indangururamajwi mu ntoki ze, inyuma ye cyangwa se ku ruhande rwe rw'aho ahagaze hakaba hari ishusho nini cyane isa n'iyerekana ibyo ari kuvugaho, arasa nk'utanga ikiganiro yitegeye abantu cyangwa se areba abantu bamuteze amatwi, inyuma ye nanone hari ijambo riri mu mpine, risobanura ihuriro mpuzamahanga ry'imikino ya bose rikaba riri kukapa.

Icyumba kirimo umugabo uhagaze ufite indangururamajwi mu ntoki ze zombi asa nkaho arimo aratanga ikiganiro, cyangwa se avuga ku ngingo runaka. Ariho arabwira abantu bicaye mu ntebe barenze icumi basa nk'abamuteze amatwi, bamwe muri bo bafite impapuro imbere yabo ndetse n'amakaramu ndetse n'amacupa y'amazi.

Abantu bagera kuri barindwi bicaye mu ntebe zo mu biro, imbere yabo hari ameza ateretseho ibipapuro ndetse na za mudasobwa, barakurikira imbere yabo bose ku meza amwe.

Muri sare itangirwamo ibiganiro, hicayemo urubyiruko rwiganje, rwambaye impuzankano imwe y'umupira y'umuhondo, icyatsi ndetse n'iy'ubururu. Barakurikirana ikiganiro.

Intero ebyiri ziteguye ahantu ku rukuta rw'ibiganiro imwe yicayemo umugabo wambaye ikositimu, inyuma ye kandi hari ipaji nini iriho amagambo yanditse ubukungu udushya mu rwanda ku rundi ruhande kandi hari umugore usa nkaho arimo aratanga ibiganiro cyangwa ikiganiro afashe indangururamajwi mu ntoki ze.

Abantu batandukanye harimo abagore, abakobwa, abagabo ndetse n'abasore bambaye imyenda itandukanye kandi bicaye mu ntebe zitandukanye imbere yabo hakaba hari ameza bakaba bicaye mu buryo basa nk'abateganye barebana bamwe imbere yabo ku meza hari za mudasobwa amacupa y'amazi impapuro ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye.

Abantu batatu harimo abagabo babiri ndetse n'umugore umwe bicaye baganira, imbere yabo hateretse amacupa y'amazi ava mu ruganda rw'Inyange ndetse imbere y'umugore hari mudasobwa ihari, imbere yabo kandi hagiye hari amatelefoni ahari, birasa nk'aho bariho baganira banezerewe.

itsinda ry'abantutu batandukanye bicaye ku ntebe zitandukanye basangiye ameza amwe harimo abagabo ndetse n'abagore intebe zifite umutuku wiganje buri wese kandi ku meza hatereretse icupa imbere ye ry'amazi aturuka mu ruganda rw'Inyange iruhande rwabo kandi bigaragara ko hari irindi tsinda risangiye andi meza amwe

Mu cyumba kiberamo inama harimo amatara atanga urumuri, umugabo wambaye ishati y'amaboko maremare ndetse n'umugore wambaye umupira w'amaboko magufi barahagaze bafite indangururamajwi, inyuma yabo hari abandi bicaye ku meza ziriho za mudasobwa.

Abantu batandukanye harimo abagore, abagabo ndetse inkumi n'abasore bicaye mu cyumba cy'akazi basa nk'aho bari mu nama runaka buri umwe ifite icupa ry'amazi rimuteretse imbere kandi bamwe muri bo bafite mudasobwa zibateretse imbere ku meza abari imbere imbere yabo kandi ku gikuta hari ishusho iriho ibyo bari kureba.

Abantu bari mu cyumba bahagaze basa n'abafata ifoto, harimo abagabo ,abagore, inkumi ndetse n'abasore. Inyuma yabo ndetse no ku mpande zabo, hari ibyapa bitandukanye bigiye biriho amagambo yanditse mu rurimi rw'icyongereza ndetse imbere yabo hakaba hari ameza, ateretseho mudasobwa ndetse n'agacupa k'amazi, ku yindi meza nanone hakaba hateretse ikindi cyuma gikoreshwa mu kwerekana amashusho.

Abagabo bagera kuri batatu, barimo umugabo wambaye ikositimu y'umukara n'ishati y'umweru ndetse n'ikaruvati. Bicaye ku meza, bafiteho za mudasobwa zabo ndetse n'ibitabo bitandukanye.

Abantu benshi cyane bambaye imipira isa, bamwe bambaye imipira y'icyatsi abandi bambaye imipira ifite ibara ry'umuhondo. Harimo abagore ndetse n'abagabo, ndetse n'urubyiruko rw'abasore n'inkumi. Bamwe barahagaze abandi baricaye, basa nkaho bose barangamiye ikintu kimwe imbere yabo.

Mu cyumba kinini kiberamo inama zikomeye, harimo urumuri rutangwa n'amatara atandukanye ari ahantu hatandukanye, abantu bicaye mu ntebe nziza barakurikiye ndetse ku ruhande rwabo hagiye hari ameza ariho ibinyobwa.

Abantu benshi batandukanye bari mu cyumba kimwe bicaye ku ntebe zigiye zitandukanye, hakaba higanjemo kandi abagore, muri abo bantu basa' barangamiye ikintu kimwe cyangwa se bari kumva ibiganiro kimwe baba abantu ku meza agiye abari imbere hagiye hariho ibintu bitandukanye bamwe mudasobwa, abandi amacupa y'amazi, abandida amakayi, impapuro ndetse n'ibikapu, n'ibindi byinshi bitandukanye.

Abantu bari mu nzu cyangwa se mu cyumba ni benshi basa n'abahagaze, kandi icyo cyumba giteguyemo intebe ndetse n'ameza imbere yazo. Harimo abicaye ndetse n'abahagaze hafi y'intebe zabo, bamwe bakoma mu mashyi abandi barimo baseka. Bigaragara ko kandi bambaye imigozi iri mu ijosi ryabo iziritseho udukarita dushobora kuba twanditseho ubwoko bw'akazi bakora cyangwa se ibindi bitandukanye bibaranga.

Abantu bari mu ngeri zitandukanye; abagabo, abagore, n'abasaza, n'abasore. Bahagaze ku ibara ry'inyubako nini, iriho amadirishya maremare. Bahagaze imbere hariho umugabo wambaye ikositimu ndetse n'ishati, n'ipantaro isa n'ikositimu, barafata ifoto.

Abantu batatu bambaye neza kandi basa nkaho bafite isuku, bicaye mu cyumba cyiza gisa nkaho ari icyumba cy'inama cyangwa se mu kazi runaka. Imbere ya bamwe bicaye ku mpande, hari mudasobwa ndetse n'amacupa y'amazi ateretse imbere yabo. Hagati yabo hicaye umugabo cyangwa se umusore ufite indangururamajwi imbere ye. Inyuma yabo hakaba hari ishusho nini yanditseho amagambo agiye atandukanye nka Kigali yacu, Kigali icyeye ndetse n'andi magambo yanditse mu rurimi rw'icyongereza.

Abantu babiri batandukanye umugabo ndetse n'umugore bambaye imyambaro myiza yiyubashye bicaye mu ntebe ebyiri zitandukanye zikunze gushyirwa mu biro, buri umwe imbere ye hateretse mudasobwa ndetse n'icupa ry'amazi rituruka mu ruganda rwa nili.

Abantu batandukanye bicaye ku ntebe zitandukanye mu nzu cyangwa mu cyumba runaka, harimo abagore, abagabo, inkumi ndetse n'abasore, bamwe muri bo bakikiye ku bibero byabo mudasobwa ndetse n'abandi bafite amatelefoni. Iyo nzu kandi itatswe n'indabyo z'ibiti bisa icyatsi.

Abantu bicaye ku ntebe zitandukanye bahujwe n'ameza amwe ari igitambaro gifite ibara ry'icyatsi cyijimye. Aba bantu buri wese akaba yicaye ku ntebe ye ndetse hakaba arimo abasore ndetse n'inkumi bisa nkaho' bariri mu myaka y'urubyiruko. Bakaba bambaye kandi imipira y'amaboko magufi ifite ibara ry'umweru ,ndetse n'abandi bagabo babiri cyangwa se abasore babiri bambaye imyambaro y'umukara, basa nkaho bari kubaganiriza.

Umugabo wambaye ikositimu yo mu ibara ry'umukara ndetse n'ishati y'umweru, afite indangururamajwi, imbere ye hari imeza iteretseho agaseke gatoya ndetse n'ikinyobwa yicaranye n'abandi barakurikiye.

Mu cyumba kiberamo inama kirimo amatara atanga urumuri, umugabo ukuze arahagaze mu ruhame yambaye ishati y'amaboko maremare ndetse ku ruhande rwe hari abandi bicaye, imbere yabo hari ameza ariho ibipapuro ndetse hariho n'amazi yo kunywa.

Icyumba kinini cyakoraniyemo ikoraniro ry'abantu b'ingeri zitandukanye harimo amatara atanga urumuri ruhagije ndetse hari meza igiye iriho intebe zicayeho abantu, ku meza hariho ururabyo ndetse n'amazi yo kunywa hari n'abagabo bashinzwe gufata amashusho bahagaze.

Abantu batari bakeya batandukanye, harimo abagabo ndetse n'abagore, gusa akaba higanjemo abagabo, bakaba bicaye imbere yabo hari ameza ariho igitambaro cy'umweru, aba bicayeyi basa nk' bari mu nama cyangwa bafite ikindi kintu bakurikiye imbere yabo, ayo meza kandi abari imbere hariho amacupa y'amazi agiye ahateretse ndetse na za mudasobwa.

Inama iri gusobanurwamo serivisi za leta z'amakoperative abantu bicaye bareba imbere b'ingeri zitandukanye, imbere yabo hagiye har’ameza ariho icyo kunywa, imbere yabo hahagaze umu mama wambaye ikoti ry'ubururu ufite indangururamajwi.

Umugabo uhagaze mu cyumba kiri kuberamo inama harimo amatara atanga urumuri, wambaye ishati y’umweru irimo uturongo, wambaye n'isaha ufite ikaramu mu ntoki n'amadarubindi, ndetse arahagaze abandi baricaye, imbere yabo har’ameza ateretseho ibitabo.

Icyumba cyangwa se inzu ifite isuku irimo irangi ry'umweru hakaba hicayemo abantu batandukanye imbere yabo hakaba hari ameza, abo bantu kandi hakaba harimo abagore ndetse n'abagabo, imbere kuri ayo meza hariho ibintu bitandukanye, harimo amacupa y'amazi, impapuro, amatelefoni, ndetse n'ibindi. Ayo meza kandi akaba ariho ibitambaro by'umweru ndetse n'ikindi gitambaro kiri hagati cy'igitenge.

Urubuga rw'ikoranabuhanga hateraniyeho inama yo mu buryo bw'amashusho, hariho idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda rigizwe n'amabara y'ubururu, umuhondo ndetse n'icyatsi. Ku ruhande ndetse hari ikirangantego cya leta y'u Rwanda.

Umunara munini wubatswe mu byuma ugizwe n'uruhererekane rw'amabara arimo umweru, umutuku bigenda bihinduranya, umunara wifashishwa mu guhererekanya ndetse no gusakaza ikoranabuhanga ndetse na sinyare mu baturage.

Icyapa cy'ikigo cya leta gishinzwe imisoro n'amahoro kiriho umugabo wambaye ikositimu y'umukara n'ishati ndetse ufite na mudasobwa mu ntoki, kiravuga kiti hari amahirwe arimo kwigaragaza ku bushake.

Urubuga rwo kuri murandasi rutangirwaho amakuru y'akazi ya leta, birerekana uburyo wakinjira ukoresheje imayili yawe ndetse na nimero ya telefone yawe ndetse ukaza no gukoresha ijambo banga.

Urubuga rw'ikigo cya leta rwo kuri murandasi ikigo gitanga serivisi z'ibara ndetse n'ibarura ry'imisoro n'amahoro mu gihugu cy'u Rwanda rugizwe ahanini n'ibara ry'umweru ndetse n'ubururu bukeya. Ruriho rurerekana uburyo wakwishyura imisoro cyangwa ukareba ideni ufite.

Umunara ugizwe n'amarangi y'umutuku ndetse n'umweru, uri hagati y'akazu gato kadasakaye kawukikije kubabakishijwe ibyuma bigiye birimo imyanya hagati, ku buryo ubasha kureba ikirimo imbere, kandi hejuru y'ibyo byuma hazengurukishijwe senyenge. Iruhande rwaho inyuma y'ako kazu hari abantu basa nk'abatambuka umwe uri imbere arikoreye uri inyuma nta kintu yikoreye.

Urubuga rugenewe gutanga amakuru ajyanye n'ubuzima, ubuziranenge bw'ubuvuzi n'ibindi bikorwa bijyanye n'imiti rwa minisiteri y'ubuzima, hariho ibyiciro bibiri bitandukanye, ikiciro kivuga ku ireme ry'ubuvuzi no kwemeza kw'ibigo n'inzego z'ubuzima, hariho kandi ahantu kandi kugira ngo ubashe gushobora gusoma ibisobanuro birambuye, ikindi kiciro kirebana n'ibikorwa by'imiti bivuze ko ushobora gushakisha aho wabariza cyangwa kugura imiti.

Ipaji ifite ibara ry'ubururu iriho amagambo yerekana uko wakwikiyandisha kugira ubone ibihembo by'imisoro ku nyongeragaciro ukoresheje sisitemu ikoresha ikoranabuhanga kugirango ifashe abaturage kubona serivisi z'ubuyobozi bw'imisoro ku buryo bworoshye, iyipaji kandi hariho umukobwa ku ruhande wambaye agasengeri k'umweru kagaragaza amaboko ndetse imbere hari mudasobwa ,akaba afite telefoni mu kiganza cye kimwe.

Inyubako ntoya igizwe n'inzuma zitandukanya usaba serivisi ndetse n'uyitanga aho bavuganira, inyuma hari usaba serivise, imbere harimo abagabo babiri cyangwa se abantu babiri barimo baratanga serivise bumva icyo usaba serivise avuga, kandi batanga serivise zo kwishyura, kohereza amafaranga, kubitsa amafaranga n'ibindi bitandukanye.

Urubuga rw'ikigo cya leta gishinzwe gukusanya imisoro n'amahoro rurerekana uburyo ushobora kwinjira muri konti yawe cyangwa mu gihe wibagiwe ijambo ibanga ryawe uburyo waryihindurira hari uburyo wabonaho umurongo ubahamagaraho ndetse n'imbuga nkoranyambaga bakoresha.

Inyubako itari nini cyane, igizwe n'amadirishya ndetse n'urugi rukinguriye buri umwe wese, ifite irangi ry'umweru, ndetse hejuru y'iyo nyubako hari icyapa gifite irangi ry'ubururu, ryandikishijemo amagambo y'umweru, avuga irembo. Iremba akaba ari serivise zitangwa na leta.

Icyapa kiriho serivisi zitangwa n'ikigo cya leta gishinzwe gukusanya imisoro n'amahoro mu Rwanda kigizwe n'ibara ry'ubururu bwiganje ndetse n'amagambo ari mu ibara ry'umweru n'aw'ibara ry'umuhondo hariho umugabo wambaye umupira w'umweru mugufi yanditse ufite na murandasi y'umweru mu ntoki ze.

Umunara muremure w'itumanaho ufite amarangi y'umweru ndetse n'umutuku, ushobora kuba ari uw' itumanaho rya telefoni cyangwa radiyo cyangwa televiziyo, uwo munarura ahantu hitaruye hari ibiti, kandi ukikijwe n'ibirindiro, gifite inzu nto hamwe n'abantu bake bari aho hafi.

Urwandiko rw'urwibukizo cyangwa se rwibutsa handitseho amagambo akurikira: hasigaye umunsi umwe gusa igihe ntarengwa cyo gutanga imisoro y'icyemezo cy'ubucuruzi makumyabiri makumyabiri na kane no kwishyura ni ejo mwibuke gutanga no kwishyura imisoro y'icyemezo cy'ubucuruzi uyu munsi kugira ngo mwirinde ingaruka zituruka ku gutanga bitinze.

Irembo igamije gutanga serivisi za leta ku baturage mu buryo bworoshye kandi bwihuse mu buryo bw'ikoranabuhanga, iratanga serivisi nshya ku rubuga rwaryo irembo, hariho ikigo gitanga iyi serivisi minisiteri ya siporo, ikiciro ndetse na siporo hakaba hariho n'amazina ya serivisi bitanga.

Akazi kubabakishijwe imbaho karimo imitako ibiri itandukanye, ahagana hasi igizwe n'amarangi abiri ariyo y'umweru n'umukara ndetse hejuru y'iyo nyubako hagiye hari ibirango cyangwa se ibyapa byerekana ibikorwa bikorerwa muri ako kazu, ako kazu kakaba kicayemo abantu basa nk'abatanga serivisi za banki zigiye zitandukanye ndetse n'icupa ry'amazi.

Irubuga rw'ikoranabuhanga kuri murandasi rw'ikigo gishinzwe gukusanya imisoro n'amahoro mu Rwanda, cyerekana uburyo bushobora kwandikisha umusoro ndetse no kumenyekanisha umusoro, hariho ibirangantego by'icyo kigo ndetse n'ibindi.

Urubuga rw'ikigo kinini cya leta gishinzwe iterambere ryo mu gihugu aradibi, cyerekana intumbero ndetse n'inshingano gifite mu banyarwanda.

Urupapuro ruriho amagambo manini yandikishije ibara ry'umuhondo avuga uti amatariki y'ingenzi mu kwezi kwa cumi n'abiri, ndetse munsi yayo hakaba hari amatariki atatu atandukanye, imbere ya buri tariki hakaba hari ubusobanuro bwihariye bugaragaza cyangwa se busobanura iyo tariki urwo rupapuro kandi rukaba rugizwe n'ibara ry'ubururu.

Icyapa k'ikigo cya leta gitanga serivisi zo gukusanya imisoro n'amahoro mu Rwanda kigizwe n'ibara ry'umweru ryiganje ndetse n'amagambo yanditse mu bururu ndetse n'umweru, amagambo agira ati ukwezi ko gushimira abaso bibiri na makumyabiri na gatatu saba fagitire wubake u Rwanda.

Irembo urubuga rwa interineti mu Rwanda rukoreshwa mu gutanga serivisi za leta rurerekana intambwe ya gatatu y'uko ushobora guhitamo kwiyandikisha mu gukora ikizami cyo gutwara ibinyabiziga, hariho umugabo kandi werekana terefone mu kirahuri cyayo harimo ibyerekeye iryo yandikishwa ryo gukora ikizami cyo gutwara ibinyabiziga ndetse munsi yaho hari ibisabwa kugira ngo ibyo bikorwe neza.

Igikorwaremezo cy'inyubako iri mu magorofa arenze ane, ni korwaremezo kiriho iminara ndetse na nsinga zishinzwe gutanga itumanaho ndetse n'amashanyarazi, ku ruhande hari ubusitani ndetse n'ibiti.

Muri repubulika y'u Rwanda minisiteri y'abakozi ba leta n'umurimo yatanze itangazo ryerekana iminsi y'ikiruhuko rusange, iributsa abaturarwanda ndetse inatanga amataliki atandukanye yerekana ibiruhuko rusange mu rwego rwo kwizihiza iminsi mikuru ariyo noheli ndetse n'ubunane, ikanashimangira kandi ko guverinoma yemeje ikiruhuko rusange kidasanzwe itanga iminsi ibiri y'inyongera kugira ngo babashe kwizihiza iminsi mikuru.

Umunara w'itumanaho uri imbere y'inzu ifite ibisenge bibiri bi biteranye, uyu munara wubakishijwe ibyuma bikoze nk'urusimbi rurerure mu gasongero k'umunara hariho antene nini izengurutse ishobora kuba ikoreshwa mu gukwirakwiza itumanaho rya telefoni cyangwa interineti, inzu iri munsi y'umunara isa n'iy'umweru ifite ibisenge by'icyuma kandi ku ruhande rumwe hariho igikoresho gishobora kuba gikoreshwa mu gutanga amashanyarazi

Inyubako nini kandi nziza cyane yubatse mu buryo bugezweho, igizwe n'amarangi meza, ku gipangu cyayo kandi yubakishijwe amatafari ahiye ndetse hakaba hariho n'inomero iranga iyo nzu, ku ruhande nanone hakaba hari ibiti.

Ikigo kigenzura imirimo imwe n'imwe ifitiye igihugu akamaro cyatangaje uburyo ki wakwirinda icyorezo cya corona virusi, harimo kwishyura ukoresheje ikoranabuhanga, gukaraba intoki n'amazi meza n'isabune mbere yo kwibinjira mu kinyabiziga gitwarwamo abagenzi benshi, gusiga intera hagati yawe na mugenzi wawe, kwambara agapfukamunwa ndetse no kwirinda guhoberana ndetse no gusuhuzanya mu biganza.

Igikorwa remezo cyifashishwa mu mashanyarazi, gitunganya, kikongera cyangwa kikagabanya imbaraga z'amashanyarazi agiye koherezwa mu baturage kugira atagira ingaruka ateza, inyuma hari ishyamba ry'ibyatsi ndetse n'ubusitani burimo ibiti.

Abantu batanu bahagaze hanze harimo abasore ndetse n'inkumi imwe bakikijwe n'inyubako, kandi iruhande rwabo hari ibinyabiziga dukunze kwita mu momodoka bihaparitse, babiri begeranye b'abasore bafite mudasobwa mu biganza byabo barimo bazikoresha, n'abandi babiri umwe afite mudasobwa n'undi arimo aganira nawe cyangwa amwerekera ibindi, undi ari inyuma yabo ntagaragara neza bose kandi bambaye udupfukamunwa.

Urubuga rwo ku ikoranabuhanga rw'ikigo gitanga serivisi zose za leta zibera kuri murandasi, hariho icyemezo cy'uko umuntu atuye gihabwa na minisiteri ishinzwe imibereho myiza mu rwanda minaroke, hariho igiciro cy'icyo cyemezo ndetse n'igihe bitwara kugira gisoza.

Urubuga cyangwa se urupapuro ruriho amagambo avuga ati:" Ukwezi ko gushimira abasora." ndetse munsi y'amagambo andi magambo yanditse avuga ati:"Uruhare rw'imisoro mu iterambere akarere ka Burera." Uru rubuga rukaba rwerekana ibintu bitandukanye ku ruhande byerekeranye n'itangazamakuru mu rwanda hariho ibigo byinshi bigiye bitandukanye.

Abantu batandukanye bagera kuri batatu, babiri b'abagabo bicaye hino, bicaye ku ntebe ebyiri z'umweru ndetse n'inditerabe iri hirya yabo y'umweru iticayeho umuntu, hakurya na none hari undi muntu w'umukobwa uri kuri mudasobwa, iyi nyubako ikaba irimo mudasobwa nyinshi abantu bakaba bicaye barimo barazikoresha.

Icyapa kiri mu muhanda gifite ibara ry'icyatsi cyerekana amerekezo y'ibintu bitandukanye, harimo amerekezo y'umupaka wa gatuna ndetse cyerekana imodoka z'ibiro byinshi icyapa cyazo, kikongera kikerekana amerekezo y'uduce dutandukanye harimo Muhanga ndetse na Musanze inyuma y'icyo cyapa urebye hirya hari umunara muremure ndetse hafi y'icyo cyapa hari igipangu cyubakishijwe amatafari ahiye.

Ipoto ririho insinga nyinshi zitwaye amashanyarazi ziyavana ku ngomero ziyajyana mu nyubako z'abaturage. Iryo poto riteretse mu busitani burimo ibyatsi, indabo ndetse n'ibiti. Inyuma hari inyubako nini y'amagorofa menshi.

Igikorwa remezo cy'ipoto kiriho kinikoreye insinga zitandukanye zitwaye amashanyarazi ziyajyana mu ngo z'abaturage, giteretse mu murima urimo imyaka ndetse n'ibiti bitandukanye.

Ipoto rirerire cyane riziritseho insinga nyinshi zitandukanye, zijya mu merekezo kandi atandukanye. Izi nsinga zikaba zitwara umuriro w'amashanyarazi. Iri poto kandi nanone rikaba ririho itara rimurika nijoro. Hafi y'iryo poto hari igipangu kinini cyubakishijwe amatafari ahiye.

Ipoto rirerire ririho itara rimurika nijoro mu muhanda ndetse iryo poto rikaba riziritseho insinga nyinshi zitwara umuriro w'amashanyarazi, ku ruhande rw'iryo poto hakaba hari ibiti bihashinze bibiri ndetse inyuma y'ipoto hakaba ari inyubako nini cyane isa nk'aho ikorerwamo ibyerekeranye n'ubucuruzi.

Ipoto rinini cyane, ririho cyangwa se riziritseho itsinga nyinshi cyane zitandukanye, izi tsinga kandi zikaba zitwara umuriro w'amashanyarazi mu bice bigiye bitandukanye, iruhande rw'iryo poto hari ibiti bibiri kimwe giteye iburyo bwacyo ikindi i bumoso bwaryo.

Igikorwa remezo cy'umuhanda wa kaburimbo, urimo urujya n'uruza rw'ibinyabiziga ndetse ku ruhande hari akayira k'abanyamaguru ndetse hahagaze n'ibinyabiziga bibiri, byose byo mu ibara ry'umweru. Hari icyapa cya mpande eshatu kigizwe n'amabara atatu ariyo umutuku, umweru ndetse n'umukara

Ipoto rikozwe mu giti cyikoreye kandi ririho itsinga zitandukanye zizana zigemuye amashanyarazi mu ngo z'abaturage avuye mu ngomero ndetse n'aho atunganyirizwa.

Umunara munini wubatswe n'ibyuma binini. Umunara wifashishwa mu kwakira insinga zivuye ku ngomero zijya mu baturage ndetse zibanza no guca ku mapoto asanzwe.

Igikorwa remezo gitunganyirizwamo kikongererwamo imbaraga ndetse kikagabanyizwamo imbaraga z'amashanyarazi akoreshwa mu baturage ni hano amashanyarazi bayakura binyuze mu nsinga zijya mu baturage.

Umuntu ugenda mu muhanda asunika igare ririho imizigo akaba yambaye ishati y'umutuku, inyuma ye kandi hakaba ari undi muntu wambaye ishati y'amaboko magufi uri kumugenda inyuma. Imbere y'uwo muntu utwaye igare cyangwa se uri kugenda asunika igare wambaye ishati y'umutuku hari igipangu cyanditseho ijambo rinini rivuze izina ry'inzoga bivuze ko mu imbere harimo akabari. Imbere y'icyo gipangu kandi hari ipoto rinini riziritseho insinga z'amashanyarazi.

Igikorwa remezo cy'umuhanda wa kaburimbo, ku ruhande hari urujya n'uruza rw'abanyamaguru, bagendera mu kayira kabagenewe k'abanyamaguru, ku mpande hari amapoto atwaye insinga z'amashanyarazi.

Inzu isakajwe n'amabati atukura ikikijwe n'igipangu kinini cyane biri iruhande rw'umuhanda w'Ibitaka ku rundi ruhande rw'umuhanda hari umutaka ufite ibara ry'umuhondo wa MTN, munsi y'uwo mutaka harimo umukozi ukorera mtn cyangwa utanga serivisi za mtn uri kumwe ndetse n'abantu babiri basa nk'abaje gusaba izo serivisi hagati yaho hari ipoto nini cyane rizitseho insinga zitwara amashanyarazi.

Ahantu hari igikuta hafi y'umuhanda ndetse hasi munsi y'icyo gikuta hakaba hagizwe cyangwa se yubakishijwe n'amabuye. Iruhande rwacyo hakaba hari icyuma kinini gisa nk'ikizamuye. Iruhande rw'icyo hakaba icyuma cyangwa se icyo cyuma kikaba kiri hagati y'ibintu bibiri bitandukanye hamwe hari ikintu babikamo cyangwa se bajugunyemo imyanda ikindi ni ikintu cyicaye cyangwa se cyubatse mu buryo bw'intebe cyangwa se umuntu ashobora kwicaraho gifite irangi ry'umutuku n'umweru.

Ibinyabiziga biri mu muhanda kimwe giparitse akaba ari imodoka ikindi kiri imbere gisa nk'ikigenda akaba ari moto itwaye umugenzi, ndetse hakurya y'imihanda cg se iruhande rw'umuhanda hakaba hari amapoto abiri aziritseho ininsinga nyinshi zitandukanye zitwara umuriro w'amashanyarazi. Iruhande rwayo kandi hakaba hari ubwatsi cyangwa se ibiti bitari birebire biconze mu buryo bwiza hakurya yaho hakaba hari andi mazu yubatse mu buryo bwiza kandi bugezweho.

Ibikorwa remezo by'umuhanda wa kaburimbo hari akayira k'abanyamaguru karimo icyapa cya mpande eshatu kirimo amabara y'umutuku umweru ndetse n'umukara hari ipoto rinini ryifashishwa mu kugemura insinga zitwaye umuriro w'amashanyarazi ndetse hepfo yarwo hari akazu k'umuntu utanga serivisi.

Abagabo batanu cyangwa se abasore batanu bahagaze ku munara basa nk'abari gufashanya bubaka uyu munara, bambaye imyambaro y'akazi bafite ingofero zirimo ibara ryiganjemo ubururu ndetse n'imyambaro yabo iriganjemo ibara ry'ubururu ryijimye, bahagaze baririmo basa nk'aho bafashanya mu kubaka umunara.

Ikinyamitende cyangwa se igare rihetse umuntu riri kugenda iruhande rw'umuhanda, iruhande aho kandi hakaba hari ipoto rinini cyane ririho insinga z'amashanyarazi zitwara umuriro mu bice bitandukanye. Ndetse nyuma y'iryo poto hakaba ari igipangu kirekire, mo imbere hakaba arimo amazu agiye atandukanye afite n'ibisenge bine bitandukanye.

Ipoto iriho insinga z'umuyoboro utwara amashanyarazi cyangwa umuriro, ishinze mu nguni y'amahuriro y'imihanda ibiri umwe uzamuka undi utambika, rikaba riri imbere y'igipangu cyubakishijwe amabuye.

Ahagana hakurya y'umuhanda cyangwa se iruhande rw'umuhanda aho abanyamaguru bagendera iruhande rwabo hari ibiti cyangwa se ibirabyo by'icyatsi bikatakase mu buryo buringaniye igice kimwe ahandi hari ibiti byinshi ndetse kandi mwawo hagati harimo ipironi ryikoreye insinga z'amashanyarazi zitwara umuriro ahantu hatandukanye.

Igikorwaremezo cy'ipoto ikozwe mu byuma cyifashishwa mu kohereza ndetse no gutwara insinga z'amashanyarazi, izikuye ku ngomero izijyanye mu baturage kugira ngo amashanyarazi agere mu baturage hasi hari umuhanda wa kaburimbo ndetse n'akayira k'abanyamaguru.

Mo imbere mu nzu cyangwa se mu cyumba runaka aho bagenda bakandagira hubakishijwe sima iyi nzu kandi ifite ibikuta bibiri bitandukanye aho igikuta kimwe cyubakishije amatafari ndetse harimo n'idirishya ikindi gikuta cyo ntabwo hariho amatafari ahubwo hagaragara irangi ry'umuhondo ndetse n'idirishya rigizwe n'ibirahuri imbere y'iyo nzu kandi hari imiryango ibiri ifunguye igizwe n'ibirahuri ku buryo ubasha kureba ibiri hanze ,hanze kandi hari abantu babiri bahagaze.

Inzu isakajwe n'amabati ku ruhande rwayo hakaba hari ikigega cy'amazi kinini gifite ibara ry'umukara ndetse hakurya yayo hakaba hari indi nzu nini cyane yubatse mu buryo bugezweho kandi ndende iyi nzu kandi isakajwe n'amabati yerekana hagati mu rubaraza rw'inzu ebyiri zifatanye.

Inzu yubakishijwe amatafari ahiye cyane, imbere yayo hari ubwatsi butoshye, kandi ku ruhande hejuru hari akapa gato kerekana ko ari ibitaro, kandikishije amagambo y'umweru akapa kiganjemo ibara ry'ubururu.

Abantu benshi batandukanye bicaye mu nzu ifite amatara amurika, bicaye ku ruhande rw'igikuta kimwe ndetse bitegeye ikindi gikuta kigizwe n'imiryango myinshi igi itandukanye kandi isa, barasa nkaho kandi bategereje serivisi runaka zitandukanye cyangwa se zimwe.

Igikorwa remezo k'inyubako, ifite umwanya uhagije imodoka zihagararamo, harimo imodoka z'ubwoko butandukanye ndetse ku ruhande hari akabaraza ndetse harimo n'amatara yifashishwa mu gutanga urumuri mu ijoro.

Inzu ifite irangi ry'umuhondo isakajwe n'amabati ahagana hafi y'iyo nzu cyangwa se imbere y'iyo nzu hakaba ari umugabo ufite impapuro mu ntoki wambaye ishati ifite ibara ry'umuhondo ndetse n'ipantaro, imbere ye kandi hakaba ari intebe zikozwe mu byuma abantu bicararaho mu gihe bategereje guhabwa serivisi. Imbere y'iyo nzu aho yitegeye hari indi nzu nziza cyane yubatse muburyo bugezweho iriho amadirishya.

Igikorwa remezo cy'amazu imbere hahagaze abagabo babiri, bahagaze mu muhanda wa kaburimbo, uriho icyapa gishushanyije mu ibara ry'ubururu ndetse n'umweru gisobanura umwanya w'utugare tw'abafite ubumuga.

Imodoka itwara indembe ihagaze imbere y'inyubako nziza cyane, iyo nyubako kandi ikaba yanditseho amagambo hejuru ari muru rurimi rw'icyongereza bivuze impanuka hamwe n'irindi jambo ritagaragara neza, iruhande rw'iyo modoka kandi imbere y'inzu hahagaze abandi bagabo batatu basa nk'abarimo baraganira.

Igazeti ya leta yasohotse ku itariki makumyabiri z'ukwezi kwa cyenda ibihumbi bibiri na cumi n'umunani, iyi igazeti ikaba igizwe n'indimi eshatu zisemurana harimo ururimi rw'ikinyarwanda ururimi rw'icyongereza ndetse n'ururimi rw'igifaransa.

Ishusho y'igitsina gore y'umuntu ufite ubwiza w'uruhu rwirabura, arimo arareba atuje abumbye umunwa, yambaye umwambaro urimo amabara atandukanye ibara ry'umutuku, umukara, ndetse n'umweru utera cyane, akaba ahagaze cyangwa se yicaye imbere y'ikintu cyangwa se y'igikuta cyera.

Umuyobozi mukuru w'igihugu cy'u Rwanda perezida Paul Kagame, ahagaze ahantu yambaye imyambaro myiza cyane y'ikositimu ndetse n'i karuvati harimo ishati y'umweru, akaba ahagaze imbere ye hakaba hari indangururamajwi ndetse n'iruhande rwe hakaba hari idaraporo ry'igihugu cy'u Rwanda arasa nk'uriho aratanga ikiganiro.

Abantu benshi cyane bari ku murongo bambaye impuzankano zambarwa n'abagororwa mu Rwanda zisa iroza, bafite ibikoresho bigiye bitandukanye, ibitiyo, amapiki, ingorofani n'ibindi.

Umuntu w'uburanga w'igitsina gore, ufite imisatsi miremire, akaba yambaye amadarubindi y'amaso ndetse akaba yisize ibintu bitukura ku munwa. Arasa nk'uwifotoza cyangwa se uhagaze cyangwa yicaye. Inyuma ye hakaba hari igikuta cy'umweru ndetse akaba yambaye umwambaro ufite ibara ry'umutuku, umukara ndetse n'umweru. Bikaba bisa nkaho ari umwambaro wambarwa n'abantu b'abacamanza.

Umugabo w'inzobe wambaye ishati y'umweru na karuvati, warengejeho umwambaro uri mu mabara y'umutuku ndetse n'umukara ndetse n'umweru muke, ukunda kwambarwa n'abacamanza mu nkiko.

Abantu benshi bagenda mu muhanda harimo abagore, abagabo, abasore ndetse n'inkumi bambaye umwenda kandi usa bose bisa nk'aho ari umwenda w'akazi w'abacamanza, inyuma yabo hari abandi bantu bambaye umwambaro w'akazi nabwo usa ufite ibara ritukura ndetse inyuma yabo nanone hari irindi tsinda ryambaye undi mwambaro usa n'umwambaro w'abasirikare, hirya yabo kandi hari ibiti byinshi ndetse n'inyubako.

Umuntu wambaye umwambaro uri mu ibara ry'umutuku ndetse n'ibara ry'umukara, akaba yambaye ingofero isa umukara ndetse ifite n'akabara k'umuhondo, akaba ahagaze afashe ku idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda, ukundi kuboko kwe kuzamuye, imbere ye kandi hakaba hari indangururamajwi bisa nk'aho ari kurahira.

Icyumba kinini kirimo urumuri rukeya abagabo batatu umwe wambaye ishati y'umweru ndetse n'ipantaro y'ikoboyi n'undi uri hagati wambaye ikanzu yambarwa n'ababuranyi cyangwa abacamanza isa umukara n'undi uri kuruhande wambaye ishati wayiebeje mu ipantaro.

Umugabo wicaye wirabura wambaye amadarubindi n'imisatsi mike cyane, wambaye isaha ndetse n'ikositimu, ishati y'umweru ndetse n' ikaruvati, inyuma hahagaze undi mugabo.

Igazeti yemejwe yatangajwe na perezida wa repubulika w'u Rwanda, ndetse ikemezwa n'inama y'abaminisitiri, yemeje ivugururwa ry'itegeko nshinga rya repubulika y'u Rwanda, iy' igazeti kandi ikaba isemuye mu ndimi eshatu zitandukanye arizo ikinyarwanda, icyongereza ndetse n'igifaransa.

Abagabo bane bari mu nzu irimo intebe ndende z'imbaho. Bakaba bicaye ku ntebe imwe ari bane ndetse bambaye umwambaro usa wambarwa abanyururu cyangwa se imfungwa. Imbere yabo kandi hakaba hahagaze undi mugabo wambaye umwambaro ufite ibara ry'umukara. Uyu ukaba wambarwa n'abacamanza. Asa nkaho arimo arabaganiriza.

Igipangu kirekire cyane cyubakishijwe amatafari ahiye ndetse kikaba kirimo n'irangi ry'umuhondo. Hejuru kandi y'aho urugi cyangwa se umuryango munini w'abinjira n'abasohoka uherereye, hariho amagambo yerekana ibikorerwamo imbere y'igipangu, hakaba handitseho gereza ya Nyarugenge, bivuze ko iherereye mu gace ka Nyarugenge. Urebye hanze hari imfungwa cyangwag se abanyururu basa nk'abasohoka, bambaye imyambaro y'imfungwa.

Imodoka ziriho ibirangantego cy'ikigo gishinzwe igorora harasohokamo abantu b'ingeri zitandukanye bambaye impuzankano y'imfungwa mu Rwanda ndetse bambaye n'amapingu mu ntoki, hari umugabo wambaye impuzankano y'abashinzwe abagororwa.

Abantu bakeya bari mu ngeri zitandukanye, abasaza, abadamu ndetse n'abasore, bambaye imyenda imwe irimo umutuku, umukara ndetse n'umweru, yambarwa n'abacamanza bari mu nkiko.

Igazeti ya leta akaba ari ikinyamakuru cya leta gishyirwamo amategeko amabwiriza n'ibindi byemezo by'ubuyobozi bw'igihugu, iyi gazeti kandi ikaba isobanuwe cyangwa se isemuye mu ndimi zigera muri eshatu arizo Ikinyarwanda, Icyongereza ndetse n'ururimi rw'Igifaransa, akaba kandi ari igazeti yerekeye ku by'ubwigenge bw'abanyarwanda mu gufata ibyemezo no gusumba andi mategeko ku itegeko nshinga.

Abantu benshi kandi batandukanye harimo abagabo ndetse n'abagore bakaba bicaye munsi y'ibiti ahantu hari ibyatsi byumye hagati y'ibiti byinshi cyane, hakurya y'ibiti kandi bigaragaraho ari amazu yubatse cyangwa se yubakishije ibyondo yubatse mu buryo butagezweho. Tugarutse hino aho abantu bicaye hari abantu bicaye ku ntebe ndetse n'abandi bicaye hasi ku byatsi.

Umugabo wambaye umwambaro w'umutuku, bisa nkaho wambarwa n'abantu b'abacamanza cyangwa se bakora akandi kazi runaka, akaba afite uruhu rwirabuye, arasa n'uwifotoza, arareba neza ndetse kandi arasa nk'umwenyuramo gake aho amenyo agaragaramo gatoya.

Igipangu kinini kirekire cyane cyubakishijwe n'amatafari ahiye, ndetse hakaba ari n'irangi ry'umuhondo, icyo gipangu hejuru kandi hari amagambo yerekana ibikorerwamo imbere y'igipangu, hakaba handitseho ko ari gereza ya Nyarugenge, hakaba kandi harimo harasohokamo abantu bahetse ibikapu bisa nkaho bavuye muri iyo gereza.

Ikoraniro ry'abantu b'ingeri zitandukanye abagore, abagabo, abasaza, abakecuru, abasore ndetse n'ingimbi, umugore uri imbere ahanitse ugutoki asa nk'uvuga.

Abantu babiri b'ibitsina gore bicaye ku ntebe ebyiri zitandukanye basangiye ameza amwe bambaye umwambaro w'akazi wambarwa mu rukiko rukambarwa n'abantu babayobozi bayoboye urukiko cyangwa se abacamanza, imbere yabo kandi hahagaze abandi bagabo babiri bambaye umwambaro wambarwa n'imfungwa ndetse n'undi mugabo uri ku ruhande rwabo wambaye imyenda isanzwe.

Igikoresho cy'ikizimyamuriro gifite ibara ry'umutuku, gihagaze ku gikuta cyangwa se gifashe ku gikuta, kikaba kandi kiriho urupapuro rw'umweru rusa nk'ururiho ibintu cyangwa se amabwiriza yuko icyo gikoresho gikora, kikaba kandi gifite ikintu cy'umukara cy'umugozi, aricyo gisa n'igisohora umwuka cyangwa se ifu izimya umuriro.

Inzu nziza nini ihagazeho abagabo babiri imbere bambaye imyambaro isa bigaragara ko ari umwambaro w'akazi, hejuru y'iyo nzu kandi hakaba hariho amagambo yerekana ko ari ibiro bikuru bya polisi y'u Rwanda bishinzwe umujyi wa Kigali, bikerekana kandi agace birimo ka Gasabo na Remera.

Ushinzwe umutekano wo mu muhanda wo mu gihugu cy'u Rwanda yambaye umwambaro ugaragaza akazi akora, ahagaze imbere y'imodoka ifunze irimo umuntu utwaye icyo kinyabiziga asa nkaho ari kuganira nawe yamanuye ikirahuri, iyo modoka ifite ibara ry'umutuku.

Igikoresho cya kizimyamwoto gifite ibara ritukura, iki gikoresho kikaba kizimya umuriro. Handitseho amagambo agiye atandukanye ndetse gifite ibara ry'umukara, hasi higanjemo ibara ry'umutuku ririmo n'amagambo menshi riteretse hasi ku makaro.

Inyubako ifite imiryango ifite ibara ry'umukara ndetse ikaba ifite ibara ry'umuhondo hejuru hakaba habanditseho amagambo mu rurimi rw'icyongereza byerekana ko hari inyubako yerekeranye n'ahantu abapolisi cyangwa se abashinzwe umutekano w'abaturage ndetse bashinzwe no kugenzura ibyaha bakorera, bakaba bari mu gace ka Gisozi.

Igikorwa remezo cy'umuhanda kirimo urujya n'uruza rw'ibinyabiziga by'ubwoko butandukanye, burimo amapikipiki, ibinyabiziga bitwaye abagenzi ndetse n'ibinyabiziga by'abantu ku giti cyabo, hari umugabo wambaye imyenda yambarwa n'urwego rushinzwe umutekano wo mu muhanda.

Ibikoresho bya kizimyamwoto bitandukanye biri ahantu hamwe, bifite amabara yiganjemo umutuku, ndetse n'amagambo agiye abyanditseho, agaragaza umumaro wabyo cyangwa se uko bikoreshwa. Ibi bikoresho bikaba ari kizimyamwoto zizimya umuriro.

Igikoresho kiri mu ibara ry'umutuku, cyifashishwa mu butabazi bwo kuzimya inkongi y'umuriro hakoreshejwe amazi, gifite umupira unyuramo amazi, akajya kuzimya umuriro aho uri.

Icupa ritukura ryanditseho amagambo atandukanye asobanura akamaro k'icupa cyangwa se ibyo icupa rikora, iri cupa akaba ari za kizimyamuriro zikoreshwa mu kuzimya inkongi z'umuriro zikoresheje ifu ishobora kuba iy'umuriro cyangwa iy'ibyuma.

Ushinzwe umutekano wo mu gihugu cy'u Rwanda wambaye umwambaro w'akazi ufite ibara ry'umukara wiganje, ahagaze imbere y'igipangu cyubakishijwe amatafari ahiye, iruhande rwe kandi hari ubusitani buteyemo igiti, imbere y'igiti hari umuturage usa nk'aho aza agenda agana mu merekezo ushinzwe umutekano arimo.

Igikoresho kinini cyo mu ibara ry'umutuku cyifashishwa mu gutabara mu gihe habaye inkongi y'umuriro. Igikoresho gifite umupira uri mu ibara ry'umutuku ufasha mu gusohora amazi menshi, yoherezwa ahabaye iyo nkongi.

Abantu bambaye imyenda y'inzego z'umutekano zishinzwe ubutabazi bwo gukumira ndetse no kurwanya inkongi z'imiriro, bafite igikoresho kizwi nka kizimyamwoto, barazimya inkongi y'umuriro.

Ibikoresho bibiri byo mu ibara ry'umutuku byifashishwa mu kuzimya ndetse no gukumira inkongi y'imiriro kimwe ni kinini ikindi ni gitoya kuri cyo, Inyuma hariho ibikarito byajemo ibyo bikoresho bizwi nka kizimyamwoto.

Umugabo wicaye mu cyumba kiberamo inama w'imisatsi migufiya, wambaye ikositimu n'ishati ndetse n'i karuvati y'umukara, imbere ye hari indangururamajwi ndetse ku meza ye hateretse amazi yo kunywa na murandasi.

Nyakubahwa Perezida wa Repubulika yambaye amadarubindi, yazamuye ukuboko, yambaye umupira w'amaboko magufi uriho ibirangantego by'ishyaka rya FPR riri ku butegetsi. Ari mu baturage bafite utudarapo tw'iryo shyaka.

Ibyapa bitatu bisa, biriho umugabo wirabura, wambaye kositimu y'umukara, ikaruvati ndetse n'ishati. Hariho amagambo yanditse mu kinyarwanda avuga ati "Mpayimana Philippe indi ntambwe".

Umuyobozi mukuru w'igihugu cy'u Rwanda nyakubahwa Paul Kagame, yambaye umwambaro w'umupira w'amaboko maremare w'umweru ndetse n'ipantaro y'umukara, yambaye kandi ingofero y'ikirangantego cy'umuryango wa FPR Inkotanyi, ahagaze imbere y'abaturage asa nkaho abateye umugongo, basa nkaho bamwogeza.

Umugabo munini w'imisatsi myinshi wambaye ikositimu ndetse n'ishati riho karuvati, ni umuyobozi wayoboye igihugu cy'u Rwanda.

Uruhurirane rw'abantu benshi cyane biganjemo abambaye imyambaro y'umweru, ubururu, ndetse n'umutuku. Ndetse ku myambaro yabo abenshi hakaba ari ikirango cyerekana umuryango FPR inkotanyi wo mu Rwanda. Ndetse bakaba bambaye ingofero hagati yabo kandi hakaba hari amadarapo menshi yerekana cyangwa se yanditseho amagambo ahinnye yerekana umuryango wa FPR inkotanyi.

Abantu batandukanye bahagaze ku murongo ugororoye basa nk'aho bategereje serivisi runaka, imbere hagaze umugabo usa nk'ukuze wambaye ingofero inyuma ye kandi hahagaze umugore usa nk'ukuze wambaye igitenge mu mutwe. Inyuma hahagaze abandi bagabo batandukanye, ku rundi ruhande hari abandi bantu nanone bahagaze ku murongo ugororoye basa na bo nk'abategereje serivisi runaka. Imbere yabo hari abantu bikoreye ibintu bifite ibara ry'umweru bimeze nk'ibikarito.

Abayobozi bakuru ba leta y'U Rwanda bagera kuri batanu, uwambere yambaye ikostimu y'umukara, ishati y'umweru n'ikarovati n'umugabo wambara amadarubindi, uwa kabiri ni umugore, uwa gatatu ni umugore n'uwa kane n'umugabo, uwa gatanu n'umugore.

Ikoraniro ry'abaturage bicaye ahantu hamwe, bamwe bicaye ku ntebe za pulasitike, abandi barahagaze abandi bicaye hasi, hari umugabo wambaye impuzankano z'ikigo gicunga umutekano mu baturage mu Rwanda.

Abantu bahagaze ahantu basa nk'aho babyina bishimye kandi banezerewe bafite amadarapo mu ntoki zabo, ariho ikirango cy'umuryango wa FPR inkotanyi wo mu Rwanda, ndetse bambaye imyambaro isa umweru ndetse n'abandi bambaye ubururu, ndetse n'abandi bambaye ifite ibara ry'umutuku. Iyi myambaro bambaye kandi abenshi hakaba hariho icyo kirango cyerekana umuryango FPR inkotanyi.

Umugabo wambaye ishati y'umweru ndetse n'ipantaro y'umukara ufite agapapuro aragashyira mu isanduku irimo irajyamo amajwi y'amatora, avuye mu cyumba cy'itora gutora ndetse iruhande rwe hari umugore wambaye umupira w'umweru nawe uri kugana ku gasanduku, hari n'indabyo.

Umuntu umwe wicaye ku ntebe ifite ibara ry'icyatsi ndetse n'undi umuhagaze iruhande, imbere yabo hakaba hari ameza ariho igitambaro gifite ibara ry'umweru, ayo meza kandi akaba ariho mudasobwa. Iruhande rw'aya meza hari ikindi gikarito kihateretse. Hakurya yabo cyangwa se hirya yabo mu kundi kuboko, hari umugore cyangwa se umukobwa wambaye ingofero ndetse n'umwambaro w'umuhondo hejuru, bakaba bitegeye ikibuga kiri hasi yabo kinini.

Idarapo ry'ishyaka ryo mu Rwanda rya politiki rigizwe n'amabara atatu atandukanye, arimo umutuku, umweru n'ubururu. Handitsemo amagambo efuperi yanditse mu ibara ry'umukara. Inyuma hari ibihu biganje.

Abantu batandukanye kandi bambaye imyambaro myiza cyane bisa nkaho ari abayobozi. Bambaye za kositimu ndetse na karuvati bamwe, abandi ni kositimu n'amashati. Imbere hari abagabo babiri, inyuma hari abandi bantu batatu harimo abagabo babiri, hagati hicayemo umugore. Imbere y'aba bantu kandi ku meza yabo hagiye hari amazi, ahandi hakaba hari mudasobwa. Inyuma yabo kandi hatagaragara neza hakaba hari abandi bantu bagiye bicaye.

Umugabo cyangwa se umusore uhagaze ndetse imbere hakaba hari icyuma giteretseho indangururamajwi, akaba asa nkaho ariho avuga abwira abantu inyuma ye akaba ari abandi bantu bicaye mu ntebe ndetse imbere akaba hari akameza gato kariho igitambaro gifite ibara ry'ubururu.

Umuntu utwaye ikinyabiziga mu muhanda giheka imizigo bakunze kwita ikamyo kiri kugenda hagati y'ibinyabiziga bibiri bakunze kwita amagare, igare rimwe rihetse umuntu umwe riri kugenda mu merekeza amwe na cyo, irindi ririmo rirabisikana na cyo rikaba rihetse abantu babiri.

Igikorwa remezo kinini cy'umuhanda wa kaburimbo urimo urujya n'uruza rw'ibinyabiziga by'ubwoko butandukanye, byiganjemo ibigendera ku mapine abiri by'amapikipiki ndetse hari n'urujya n'uruza rw'abantu b'abanyamaguru bagura ndetse n'abatambuka.

Imodoka nini ifite ibara ry'umweru yikorera imizigo iparitse mu muhanda, bigaragara ko ku ruhande rwayo hari icyapa kibwira imodoka guparika. Hari abagabo batatu kandi barimo barikoreza iyi modoka imizigo bazirikaho imigozi ikomeye cyane, kugira imodoka ntihaguruka igenda mu muhanda imizigo itaza kugwa cyangwa itembagare.

Igikorwa remezo cy'umuhanda wa kaburimbo urimo urujya n'uruza rw'ibinyabiziga bitandukanye byiganjemo amapikipiki atwara abagenzi ndetse harimo n'igikamyo gitoya gitwara imizigo, ku mpande hari utuyira tw'abanyamaguru turimo ndetse n'abanyamaguru.

Amamodoka agenda mu muhanda ndetse na moto ku ruhande rw'umuhanda kandi hari amamoto menshi ahaparitse, ndetse ariho abashoferi bayo bakaba bambaye umwambaro urimo amabara abiri ariyo umuhondo n'ubururu. Hirya yabo hari icupa rinini ry'igishushanyo ry'ikinyobwa kidasembuye, hakurya y'icupa cyangwa se hepfo y'icupa hakaba indi nzu nini cyane yubatse mu buryo bugezweho ijyanye n'iby'ubucuruzi ifite amadirishya menshi.

Ibinyabiziga bitandukanye biri kugenda mu muhanda harimo moto, makuzungu, ndetse n'imodoka zisanzwe bimwe biragenda mu merekezo amwe, ibindi birasa nkaho bibisikana hakurya y'umuhanda kandi hari ibiti byinshi bihateye ndetse n'abagenzi bari kugendera iruhande rw'umuhanda.

Mu muhanda munini wa kaburimbo urimo ikinyabiziga cyo mu ibara ry'umweru gitwara abagenzi, harimo n'urujya n'uruza rw'ibindi binyabiziga birimo n'amapikipiki atwaye abagenzi, ku mpande hari utuyira tw'abanyamaguru ndetse inyuma yatwo hari ibiti.

Ikinyabiziga kiri kugenda mu muhanda dukunze kwita imodoka gifite amarangi agiye atandukanye harimo ubururu umweru ndetse n'umuhondo, iki kinyabiziga kandi dukunze kwita imodoka kikaba kiriho ikirango cyerekana ko iyi modoka ari iy'ikigo cy'igihugu gishinzwe itangazamakuru mu Rwanda.

Igikorwa remezo cy'umuhanda wa kaburimbo urimo urujya n'uruza rw'ibinyabiziga by'ubwoko butandukanye, harimo ibikamyo bitwaye imizigo ndetse n'ama pikipiki atwaye abagenzi, ku mpande hari utuyira tw'abanyamaguru turimo abanyamaguru ndetse inyuma yatwo hari n'ibiti.

Agahanda kagendwamo n'abanyamaguru, kaba kegereye umuhanda wa kaburimbo. ku ruhande hahagaze ibinyabiziga byinshi byo mu bwoko bw'ipikipiki, bitwara imizigo, bigendera ku mapine atatu.

Ikinyabiziga kinini gikunze gutwara imizigo dukunze kwita makuzungu, kikaba gifite ibara ry'umutuku. Kiriho kiragenda mu muhanda. Hakurya y'umuhanda kandi hari ahantu hari ibiti byinshi ndetse hafi aho imbere y'ibiti hari cyangwa se inyuma y'ibiti hari akambaro cyangwa se agatambaro gafite ibara ry'icyatsi kabonerana kerekana aho ibyo biti biri ndetse hakaba hagaragaramo n'abantu.

Imodoka yo mu bwoko bw'ikamyo itwara imizigo iri mu ibara ry'umweru, irasohoka mu kayira k'abanyamaguru yinjira mu muhanda wa kaburimbo munini.

Igikorwaremezo cy'umuhanda wa kaburimbo kirimo umurongo uvunaguye, uri mu ibara ry'umweru, ku ruhande rw'uwo murongo harimo ibinyabiziga bibiri bitwara abantu biri mu ibara ry'umweru, ku ruhande hari ubusitani burimo ibyatsi ndetse n'ibiti.

Igikorwaremezo kirimo imihanda ya kaburimbo ihura, kirimo urujya n'uruza rw'ibinyabiziga by'ubwoko butandukanye, hano imbere hari ikinyabiziga cy'ipikipiki igendera ku mapine atatu cyifashishwa mu gutwara imizigo ndetse hari n'andi mapikipiki atwara abagenzi ari muri uwo muhanda.

Igikorwaremezo cy'umuhanda munini urimo urujya n'uruza rw'ibinyabiziga by'ubwoko butandukanye, harimo ikinyabiziga cy'igare kigendera ku mapine abiri, ndetse inyuma yacyo hari ikinyabiziga kinini cy'ikamyo gitwara imizigo myinshi, inyuma y'icyo kinyabiziga hari ibiti by'inganzamarumbu ndetse hari n'utuyira tw'abanyamaguru.

Umuhanda munini wa kaburimbo urimo ikinyabiziga gitwara imizigo myinshi cy'ibara ry'umweruru iruhande hari akayira k'abanyamaguru no ku rundi ruhande ndetse hari n'ibiti by'inganzamarumbu.

Umuhanda munini wa kaburimbo urimo urujya n'uruza rw'ibinyabiziga. Hari imodoka ntoya itwaye imizigo y'umweru ndetse imbere hari n'indi nini itwara imizigo itarimo ikintu. Ku ruhande hari urujya n'uruza rw'abantu bagendera mu kayira k'abanyamaguru.

Imodoka nini cyane zicuruza zitwara abagenzi benshi batandukanye, ikaba ifite ibara ry'ubururu ndetse n'umweru hagaragara n'ipine, iyindi modoka biteganye cyangwa se bisa nk'ibiri ku murongo umwe, iragaragara igice cy'inyuma nayo bisa nk'aho ari imodoka nini ikaba ifite ibara ry'ubururu bwijimye cyane zikaba kandi ziparitse ahantu hamwe.

Ikinyabiziga dukunze kwita imodoka kigenda mu muhanda iruhande rw'umuhanda w'icyo kinyabiziga kigendera hari ibyapa bitandukanye bisobanura ibintu bitandukanye, iruhande rw'ibyapa kandi hari ibiti bihateye mu muhanda inyuma y'icyo kinyabiziga hari ibinyabiziga by'ibinyamitende ibiri bicuruza dukunze kwita ama moto ariko usa nk nkaho azamoperekeza hamwe n'icyo kinyabiziga inyuma y yaayo mamoto kandi hari ikindi kinyabiziga kiri kuza mu merekeza amwe nabyo

Ikinyabiziga kinini gitwara imizigo cyangwase twakwita makuzungu, kikaba kigenda mu muhanda, inyuma yacyo hakaba hari ibindi binyabiziga bibiri bisa nk'ibibisikana dukunze kwita ibinyabiziga by'ibyamitende biriri, cyangwase moto zicuruza zikaba zihetse abantu hirya y'umuhanda nanone hakaba hari ibiti byinshi.

Imodoka rusange isanzwe itwara abagenzi ifite ibara risa nk'umweru irimo abagenzi batandukanye, ndetse n'umushoferi uyiyoboye bariho bagenda mu muhanda, iruhande rwayo kandi hari ikinyabiziga k'ikinyamitende ibiri dukunze kwita moto, biriho bibisikana iruhande rw'umuhanda kandi hakaba iruhande rwa moto irimo iragenderamo hari ibiti bihashinze.

Ibinyabiziga bitatu bitwara imizigo dukunze kwita amakamyo, bibiri biteganye birimo abantu ikiri inyuma gifite ibara ryiganjemo ubururu, ikiri ku ruhande rwabyo uko ari bibiri kirimo imizigo isa nkaho iri gupakururwa.

Ahantu haparitswe imodoka nyinshi cyane zigiye zitandukanye kandi zitwara abagenzi birasa nk'aho ari amasaha ya nijoro amatara ariho aramurika ari menshi ndetse hakaba hari urujya n'uruza rw'abantu bagiye batandukanye, n'amamodoka menshi agiye atandukanye amanini ndetse n'amatoya aparitse.

Ikinyabiziga kinini gitwara imizigo gifite ibara ry'umuhondo, kirimo kiragenda mu muhanda ndetse iruhande rwacyo hari ibindi binyabiziga twita imodoka ntoya birimo biragenda mu merekezo amwe ndetse ku rundi ruhande rw'umuhanda na none hakaba hari izindi modoka zisa nk'izibisikana na cyo. Iruhande rwacyo hakurya y'umuhanda hakaba hari ibiti byinshi bihateye ndetse n'abantu bariho batambuka.

Ibinyabiziga bitandukanye harimo amamodoka abiri matoya ndetse n'amamoto atatu atandukanye abiri ahetse abantu indi imwe ihetse umuzigo, birasa nk'ibigenda bimerekezamwe ariko bibisika n'ikindi kinyabiziga kinini gikunze gutwara imizigo, hakurya y'umuhanda kandi iruhande rw'icyo kinyabiziga kinini gitwara imizigo hakaba hari ibiti byinshi bihateye.

Ikinyabiziga dukunze kwita imodoka kiriho kigenda mu muhanda kikoreye imizigo, iyo mizigo ikaba izirikishijwe n'imigozi ikomeye cyane iyifashe kugira ngo itanyeganyega cyangwa se itagwa hasi, inyuma yaho kandi hari indi moto isa nk'iyabisikanye nacyo cyangwa se ikinyabiziga cy'ibinyamitende ibiri nacyo kikoreye imizigo, urebye hakurya y'umuhanda hari ibiti bihateye ndetse hirya gato hari abantu barimo baragenda.

Ikinyamitende cyangwa se igare rihetse umuntu riri kugenda mu muhanda, iruhande rwaryo kandi hakaba hari ikinyabiziga kinini gikururana kikaba kiyobowe n'umushoferi cyangwa se gitwawe n'umushoferi kikaba gifite ibara ry'umweru, hakurya y'umuhanda kandi hakaba hari ibiti byinshi.

Igikorwa remezo cy'umuhanda munini wa kaburimbo urimo urujya n'uruza rw'ibinyabiziga by'ubwoko butandukanye, harimo umugabo watwaye igare ririho imizigo ndetse n'ikinyabiziga cy'ipikipiki kigendera ku mapine atatu gitwara imizigo, ku ruhande hari utuyira tw'abanyamaguru.

Igikorwaremezo cy'icyanya gihagararamo ibinyabiziga bitwara abantu n'ibintu mu mujyi. Ni ibinyabiziga binini ndetse hari n'imyanya abagenzi bicaramo bategereje ibyo binyabiziga. Ku ruhande hari ibyapa byamamaza sosiyete itanga serivisi z'itumanaho, biri mu ibara ry'umuhondo.

Ikinyabiziga gitwara imizigo, gifite ibara ry'umweru, kiriho kigenda mu muhanda, dukunze kucyita ikamyo. Ahagana aho gipakiriye imizigo cyangwa se aho imizigo ipakiye, hari imigozi iyiziritse ituma imizigo ikomera cyangwa se itabasha kunyeganyega ngo itembe cyangwa se igwe mu muhanda mu gihe kiriho kigenda. Hakurya y'umuhanda kandi hakaba hari ibiti byinshi bihateye ndetse inyuma yaho hakaba haparitse za romoruke ndetse n'andi mamodoka n'amamoto bitandukanye.

Igikorwa remezo cy'umuhanda wa kaburimbo urimo urujya n'uruza rw'ibinyabiziga by'ubwoko butandukanye, harimo ibinyabiziga bigendera ku mapine atatu bizwi ku ipikipiki bitwara imizigo ndetse n'ibigendera ku mapine abiri bitwara abagenzi ndetse n'imodoka zisanzwe, hari kandi n'urujya n'uruza rw'abantu bagendera ku maguru hari n'inyubako.

Ikinyabiziga cy'ibinyamitende ibiri dukunze kwita moto kiriho umushoferi wambaye umwenda ufite amabara abiri hejuru ariryo: umuhondo ndetse n'ubururu, arasa nk'ukase ikorosi ndetse yegereye umuhanda w'abanyamaguru cyangwag se aho abanyamaguru batambukira. Iruhande rwe kandi hakaba hari ibiti byinshi ndetse hakurya y'ibyo biti hakaba hari inyubako yubatse mu buryo bugezweho nziza cyane.

Icyapa cyo mu muhanda gifite ishusho ya mpande eshatu kizengurutswe n'umutuku, imbere ubuso n'umweru, ikirango n'umukara. Iki cyapa kirereka abayobozi b'amamodoka ko imbere aho bari kujya hari kubera ibikorwa by'ubwubatsi.

Igikorwaremezo cya gare gihagaramo ndetse kikaberamo serivisi zo gutwara abantu n'ibintu, abantu ni benshi hari urujya n'uruza rw'abantu ndetse harimo n'imodoka z'ubwoko butandukanye nyinshi, zigizwe cyane cyane n'izitwara abagenzi benshi.

Ikinyabiziga cy' ikinyamitende ibiri dukunze kwita moto icuruza iparitse ahantu nta muntu uyiriho, hatari mu muhanda imodoka zisanzwe zigenderamo, ndetse hirya yaho inyuma yaho gato hari imodoka nayo iyaparitse, imbere ya moto kandi hari umucanga w'amabuye uhahari, bigaragazwa ko ari ikigo runaka gikora ibintu runaka.

Ahantu hari inyubako nini cyane yubakishijwe n'amatafari ahiye ndetse imbere yaho hakaba hari ibiti ndetse n'ubusitani cyangwa se ubwatsi buri aho butari bunini cyane, aho imbere y'ibyo byatsi cyangwa se ibyo biti bihateye hakaba hari ikibuga bakiniramo imikino y'amaboko cyangwa se bidagaduriramo, hakaba harimo abana batoya barimo barakina umupira w'amaguru.

Inzu ifite ibisenge bibiri bitandukanye nini ariko itari nini cyane, yubakishijwe amatafari ahiye, imbere yayo kandi hari ibiti biteye, imbere y'ibyo biti kandi hari ikibuga gisa nk'igikinirwamo umukino w'intoki cyangwa umupira w'amaboko.

Inzira ndende mu burebure ndetse itari nini cyane mu bugari, ikaba ifite ibara risa icyatsi cyijimye, ku ruhande rwayo kandi hakaba hari ibirabo kundi ruhande hakaba hari umuhanda w'ibinyabiziga. Iyi nzira ikaba ikunze gukorerwamo siporo aho abantu birukanka cyangwa bagakoreramo siporo ngororamubiri.

Igikorwaremezo cy'umuhanda munini wa kaburimbo, urimo urujya n'uruza rw'ibinyabiziga bitandukanye. Ku ruhande hari icyapa kiri mu ishusho y'uruziga igizwe n'amabara atatu ariyo umutuku, umweru ndetse n'umukara. Kigaragaza ko nta binyabiziga by'amakamyo manini yemerewe muri uwo muhanda.

Icyapa kiburira cyo mu muhanda cya mpande eshatu, kikaba gifite umuzenguruko w'ibara ry'umutuku, ndetse kikagira ikirango gifite ibara ry'umukara, mo hagati kandi hakaba hafite ibara ry'umweru, kikaba giteye, ahantu kiri imbere y'ibiti bifite amashami menshi cyane.

Icyapa cyerekana ibyerekeye ibikorwa remezo, kikaba ari icyapa cya mpandeshatu iki cyapa kandi kiba gikunze kuburira, kikaba kandi na none gifite ikirango gifite ibara ry'umukara, iki cyapa kikaba kigaragaza imirimo y'ubwubatsi mu muhanda.

Icyapa kibuza guhagarara umwanya muto gishinze mu nguni y'amahuriro y'imihanda ibiri umwe uzamuka n'ndi utambika, umuhanda utambika harimo ikinyabiziga cy'imitende ibiri gicuruza imbere yawo gato hari icyapa kiburira iburyo.

Igice kimwe cy'umuhanda ndetse iruhande rw'umuhanda hari ibyatsi bihateye ndetse hakaba hashinzemo icyapa gifite umuzenguruko w'ibara ry'umutuku, mo hagati hakaba hasamo umweru ndetse kikaba gifite ikirango cy'ibara ry'umukara ndetse n'undi murongo utambitsemo hagati mu nyuguti ya pa, akaba ari cyo kirango kirimo cyerekana ko aho hantu nta modoka yemerewe kuhaparika. Iruhande rwacyo kandi hari ahantu hubakishijwe amabuye ndetse inyuma yaho hari ibiti.

Icyapa kinini gikoreshwa mu muhanda kirimo amabara abiri yiganje ari yo muhondo ndetse n'umukara n'icyapa kiri mu ishusho ya mpandenye.

Icyapa cyo ku muhanda gikozwe muri mpandeshatu . Kirimo amabara atatu atandukanye: umutuku umuhondo ndetse n'umukara. Harimo umugabo ufashe igikoresho cy'ubwubatsi, icyapa cyerekana ko hari imirimo y'ubwubatsi iri aho hafi.

Igikorwa remezo cya leta ki'igororo rya Nyamagabe hari umuhanda w'igitaka ndetse n'icyapa kinini kiriho ikirangagantego cy'igihugu ndetse n'ikigo gishinzwe igororamuco, hari inyubako zitandukanye ndetse hakaba hari n'indabyo n'ibiti.

Ibyapa bibiri biranga ibyerekezo by'umuhanda, icyapa kimwe cyanditseho KN na gatatu, ikindi cyanditseho KN na mirongo itatu, inyuma hari ibiti.

Umugabo ufite igikapu uhagaze mu kayira k'abanyamaguru, kegereye igikorwa remezo cy'umuhanda wa kaburimbo ndetse hejuru hari icyapa cyerekana ko ukomeje imbere werekeza mu karere ka Rusizi, ku mpande hari ibiti by'inganzamarumbu.

Umuhanda munini wa kaburimbo, inyuma yawo hari akayira kariho ubusitani butoya ndetse harimo n'icyapa gikoreshwa mu muhanda kirimo amabara atandukanye, umutuku, umweru, ndetse n'umukara, gikozwe muri mpandeshatu ruguru y'icyapa hari ubundi busitani ndetse hakaba n'inzu zo kubamo.

Ikimenyetso gifite imiterere y'urukiramende kikaba gifite ibara ry'icunga, kandi cyanditseho amagambo aburira ko hari imirimo iri gukorerwa mu muhanda imbere. Ikimenyetso gikoreshwa kugira ngo kimenyeshe abagenzi kwitonda no kugabanya umuvuduko.

Icyapa gikoreshwa mu muhanda, kiri mu mabara atatu: umutuku, umuhondo, ndetse n'umukara. Kiri mu ishusho ya mpande eshatu. Harimo igishushanyo cy'umuntu wambuka mu kayira k'abanyamaguru bambukiramo.

Amahuriro y'imihanda myinshi igera muri itatu mu ruhande rw'umuhanda umwe hari akapa kanditseho kibugabuga bigaragaza agaciro imihanda iherereyemo, hakurya nanone hari icyo twakwita nk'ibishanga cyangwa se ibiti byinshi n'ibyatsi byinshi, hakaba nanone hari amapoto ariho insinga zitandukanye zitwara umuriro cyangwa amashanyarazi.

Igikorwaremezo cy'umuhanda munini wa kaburimbo ku ruhande hari ubusitani bwiza burimo ibiti ndetse n'uturabyo, harimo icyapa cyerekana icyerekezo ibinyabiziga bigomba kugenderamo byo muri icyo gihanda.

Inzu nini kandi nziza cyane yubatse mu buryo bugezweho, ifite amarangi abiri atandukanye, irangi rimwe ry'umukara n'irindi ryenda gusa nk'umweru utera cyane, iyi nzu kandi igaragazwa ko ari inzu y'ubucuruzi kandi igeretse inshuro irenze ebyiri.

Amazu menshi atandukanye ari ku murongo umwe, yubatswe mu buryo bumwe yubakishijwe amatafari ahiye igice kimwe ikindi ni gice gisize irangi, hejuru y'ayo mazu kandi hagiye hariho ibigega by'amazi bifite ibara ry'umukara bikikijwe n'ibyuma bibizengurutse bifite ibara ry'umweru

Ibikorwa remezo by'inzu y'amagorofa nini, ikiri kubakwa, imbere yaho hari umuhanda munini w'igitaka ndetse hari n'ibiti by'inganzamarumbo, mu mpande by'ibyo biti hari amazu yo kubamo ndetse n'ibigega.

Mu cyumba cyangwa se mu nzu ahagana ku gisenge k'imbere cyubakishijwe n'imbaho hasize amarange y'umweru ndetse n'umuzenguruko w'umukara ugiye urimo hagati ndetse no kumpande, haragaragara kandi igice cy'umutwe cyangwa se cy'agahanga ku muntu ndetse n'umusatsi we ahagana kugisenge ndetse hakaba harimo n'itara rimurika.

Mu ikorosi ry'umuhanda ndetse hakaba n'ihuriro ry'umuhanda. Ku ruhande rw'umuhanda kandi hari icyapa kibuza kivuga ko hatanyurwa ibinyabiziga bitwara ibicuruzwa. Imbere y'icyo cyapa mu muhanda hari imodoka irimo iragenda cyangwa se ikinyabiziga, ku ruhande rw'umuhanda kandi nanone hari inyubako nini ihari yubatse mu buryo bugezweho isa n'inyubako y'ubucuruzi, imbere y'iyo nyubako haparitse ibinyabiziga byinshi aribyo dukunze kwita imodoka.

Izu nini kandi nziza cyane yubatse mu buryo bugezweho kandi ifite isuku, ikaba kandi ikikijwe n'igipangu cyubakishijwe amatafari ahiye hakaba ari na nimero yerekana inzu. Iyi nzu ikaba ari inzu yerekeranye n'iby'ubucuruzi byerekeranye no gutanga amacumbi.

Inyubako nini cyane, yubatse mu buryo bugezweho, igizwe n'ibirahuri byinshi, iruhande rwabyo kandi hejuru hakaba hari insinga nyinshi zisa nk'izitwara umuriro hafi aho hari icyapa kinini cyane, cyane kiho amagambo yanditse mu rurimi rw'icyongereza bishatse kuvuga ikigo cy'imikino y'amahirwe gikora mu Rwanda, iki kigo kikaba gitanga serivisi zo gutega ku mikino itandukanye nka ruhago ndetse n'indi mikino igiye itandukanye.

Ibikorwa remezo by'umuhanda munini wa kaburimbo birimo isuku, hari ndetse n'utuyira tw'abanyamaguru ndetse n'urujya n'uruza rw'abantu, ndetse n'ibinyabiziga by'ubwoko butandukanye, imbere har’inyubako zikorerwamo serivisi z'ubucuruzi zitandukanye.

Ibikorwaremezo by'inyubako ziturwamo hari ubusitani ndetse n'ibiti by'inganzamarumbu, ku ruhande rwo hakurya hari inyubako y'amagorofa arenze abiri itararangizwa kubakwa.

Igikorwaremezo kinini cy'umuhanda wa kaburimbo urimo urujya n'uruza rw'ibinyabiziga by'ubwoko butandukanye, harimo ibinyabiziga bigendera ku mapine ane, Ibigendera no ku mapine abiri, ku mpande har’utuyira tw'abanyamaguru ndetse n'inyubako nini z'ubucuruzi.

Inzu nziza yubatse mu buryo bugezweho ifite igipangu cyubakishijwe amatafarihiye iherereye mu Rwanda mu gace ka Remera iri hejuru y'umuhanda, munsi yayo hari ibiti biteye iruhande rw'umuhanda. Hari icyapa kiburira imodoka ndetse n'icyapa cyerekana kwamamaza ibiruhuko by'iminsi mikuru.

Ahantu hari ikigunda cyangwa se ibyatsi byinshi cyane, harimo ubwatsi bwumye imbere ndetse hafi aho ngaho hakaba hari n'ibindi byatsi birebire kandi bitoshye ndetse n'ibiti byinshi bigiye bitandukanye, bikaba bifite kandi ibara ry'icyatsi, hafi aho kandi haragaragaramo ibicu cyangwa se ikirere gisa umweru

Umugabo umanuka mu gahanda ka kaburimbo wegera inyubako igezweho iri mu magorofa arenze abiri, ku ruhande hari ubusitani ndetse hari n'ibiti by'imbuto ndetse n'ibiti by'umurimbo.

Ikigega cy'amazi gikikijwe n'amazu atandukanye ndetse n'ibiti, iruhande rw'icyo kigega hari inzu nini, ndetse hakurya y'ikigega hari andi amazu menshi akikijwe n'ibiti, iruhande na none rw'icyo kigega hari ipoto rinini riziritseho insinga zitwara umuriro w'amashanyarazi mu bice bitandukanye.

Ibinyabiziga bitandukanye, harimo' ibinyabiziga by'ibinyamitende bicuruza dukunze kwita moto biriho bigenda mu muhanda bisa nk'ibizunguruka ahantu bigana mu merekezo atandukanye cyangwa amwe, biri kuzunguruka ahantu hari ibyatsi n'ubusitani bwiza bushinzemo ibiti ndetse n'amatara yaka.

Umuhanda munini wa kaburimbo urimo urujya n'uruza rw'ibinyabiziga, hari akayira kagenewe kwambukirwamo n'abanyamaguru ndetse hari n'utuyira twagenewe kugenderwamo n'abanyamaguru, ku ruhande rw'umuhanda harimo ibinyabiziga bitandukanye birimo iby'amapine ane ndetse n'iby'amapine abiri.

Imihanda ibiri itandukanye ndetse n'aho ihurira hakaba harimo ibinyabiziga birimo biragenda bimwe bibisikana n'ibindi bijya mu nzira zabyo. Hari ikinyabiziga cy'ibinyamitende dukunze kwita moto gicuruza, kiriho kimanuka ndetse na ruguru yaho mu wundi muhanda hari ibinyabiziga bibiri bisa n'aho bibisikana kimwe cy'imodoka ntoya, ikindi kikaba gitwara imizigo dukunze kwita ikamyo.

Ahantu ndahabona umuntu mu kayira k'abanyamaguru arimo aragenda bika bigaragara ko hari n'undi muntu wicaye munsi y'umutaka wa emutiyeni ndetse bikaba bigaragara ko uyu muntu acuruza amayinite bikaba binagaragara ko hari imodoka y'umukara ndetse na taransifa y'amashanyarazi.

Mu muhanda cyangwa se ikibuga cya kaburimbo giteyemo ibiti byinshi ndetse harimo n'icyapa kiharanga. aha hakaba ari ahantu hashushanyije mu buryo bw'ikibuga cy'ibonezamuhanda aho imihanda itandukanye ihurira kandi ibinyabiziga bikaba bishobora kuzenguruka kugirango ngo bimenye icyerekezo bikwiye gukurikira ndetse case hirya gato ikorosi hari indi nyubako nini cyane yubatse mu buryo bugezweho ikaba iriho izina rigaragaza ko ari ikigo kigenzura imirimo imwe n'imwe ifitiye igihugu akamaro.

Igikorwaremezo kinini cy'umuhanda wa kaburimbo kitarimo urujya n'uruza rw'ibinyabiziga, ku ruhande ha hari utuyira tw'abanyamaguru ndetse n'ubusitani burimo ibyatsi bigufiya ndetse n'ibiti, kandi harimo n'amapoto afite amatara amurika n'ijoro.

Umuhanda munini ugendwamo n'ibinyabiziga bitandukanye ukaba urimo ibinyabiziga by'ibinyamitende bibiri dukunze kwita moto zihetse abantu ndetse ku mpande hari abandi bantu barimo baragenda, iruhande rw'umuhanda ku mpande zombi hari ibiti byinshi bihateye.

Mu mahuriro y'imihanda ahagana mu nguni haparitse ikinyabiziga dukunze kwita igare kitariho umuntu, hakurya y'umuhanda kandi hari ibiti byinshi ndetse n'itara rimurika nijoro mu muhanda, inyuma y'ibiti kandi hari amazu menshi atandukanye.

Umuhanda munini w'gitaka urimo umuntu uri kugenda kumpande hagiye hari ubusitani butoya burimo ibyatsi ndetse kumpande hagiye hari ibipangu by'amazu yo kubamo byubatse neza.

Aho imihanda ibiri ihurira ikikijwe n'ibiti byinshi cyane. Mbere y'uko imihanda ihura hari umuhanda muto utagendwamo n'imodoka uyitandukanyije, ndetse muri ako gahanda gatoya katagerwamo n'imodoka harimo igicucucu cy'umuntu cyegeranye no muzira nyabagendwa y'abanyamaguru yambukiranya umuhanda.

Igikorwa remezo cy'umuhanda munini wa kaburimbo, urimo urujya n'uruza rw'ibinyabiziga by'ubwoko bugiye butandukanye, hari ndetse n'akayira k'abanyamaguru karimo abantu b'ingeri zitandukanye bategereje ndetse n'abari kugenda.

Ikinyabiziga dukunze kwita imodoka gifite ibara rimwe kirimo kiraca mu muhanda ndetse gica munsi y'ikiraro kinini kiri hejuru yacyo. Iruhande rwayo kandi hakurya y'umuhanda hari ibiti byinshi cyane bihateye hakaba hari n'akayira hagati yaho k'abagenzi hakaba harimo umuntu urimo uragenda wambaye ishati y'amaboko maremare. Iki kinyabiziga kandi kikaba gitwawe cyangwa se kiyobowe n'umushoferi uri kuri telefoni cyangwa uri kuvugira kuri telefoni.

Igikorwa remezo cy'umuhanda wa kaburimbo uri mu kirere ndetse munsi yawo harimo n'undi muhanda wa kaburimbo, hejuru hari ndetse n'utuyira tw'abanyamaguru turimo abantu, hari n'ipoto byifashishwa mu kohereza insinga z'amashanyarazi mu baturage

Ikinyamitende gihagazeho umuntu, iruhande rwacyo hari umuhanda ndetse hakurya hari na none icyapa, hakaba hari umuhanda usa nk'uca munsi y'ikiraro kinini cyane, hakurya hakaba hari amatara amurika mu muhanda.

Muto wa kaburimbo winjira mu muhanda munini wa kaburimbo urimo ikinyabiziga kigendera ku mapine ane kiri mu ibara ry'umweru, ku ruhande rwacyo hari akayira k'abanyamaguru ndetse hepfo hari ibiti by'inganzamarumbu ndetse n'ubusitani.

Ibyabiziga bitandukanye bigenda mu muhanda harimo ikinyabizi cy'inyamitende ibiri aricyo kiri imbere dukunze kwita moto, ibindi biri inyuma ni ibinyabiziga bitwara imizigo harimo makuzungu ndetse na za romoroke, iruhande rw'umuhanda kandi aho izo modoka zigendera hari ipoto ririho insinga zitwara amashanyarazi, iruhande rw'ipoto nanone hari umunara uziritseho insinga nyinshi.

Igikorwa remezo kinini cy'umuhanda wa kaburimbo, urimo urujya n'uruza rw'ibinyabiziga byiganjemo amapikipiki, hari akayira kagenewe kwambukirwamo n'abanyamaguru bambuka uruhande rumwe rw'umuhanda bajya ku rundi ndetse hari n'amatara yifashishwa ku muhanda, agaragaza uko abanyamaguru bagomba kwitwara.

Ibinyamitende bibiri imodoka ndetse n'igare rihetse umuntu umwe biri kugenda mu merekezo amwe mu muhanda . Bigiye kubisikana n'ikinyamitende kinini kikorera imizigo iruhande rw'ibinyamitende bibiri imodoka ndetse n'igare hari ibiti bishinze kandi inyuma y'ibiti hari makuzungu ndetse na romoruke zihahagaze.

Ibikorwa remezo by'imihanda minini ya kaburimbo ihurira hamwe, hari imirongo igaragaza aho abanyamaguru bambukanyiriza umuhanda bava ku ruhande rumwe bajya ku rundi ndetse hari utuyira tw'abanyamaguru bagenderamo.